Uyu mwana uri aha ngaha arimo arakaraba intoki, kandi muzi ko gukaraba intoki ari kimwe mu bintu by'isuko byerekana isuku, waba uvuye kuri tuwarete ugomba gukaraba, waba intoki zanduye, waba umaze umwanya munini udakoresha intoki zawe, uba ugomba gukaraba kugirango ukureho mikorobe zagiyeho, igihe ugiye kurya, igihe ugiye kugira ikindi kintu ukora, wakoresheje intoki ugomba kuzikaraba.

Urujya n'uruza rw'abantu murabona ko aba abantu barahangaha ari abantu bahagaze neza bisa naho bavuga "bati" muhagarare dufate ifoto y'urwibutso bavuye mu bikorwa bitandukanye ariko ahangaha bafate ifoto y'urwibutso kugira ngo bajye bibuka icyo gihe ibyo bakoraga.

Aha ngaha murabona ko ari ahantu hakorerwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, murahabona abantu, ariko inyuma murabonamo ibintu bijyanye n'imiti ndetse n'abandi bantu baje gushaka serivisi zo kwivuza.

Aha hanga rero murabona hari urujya n'uruza rw'abantu ariko murabona ko bari kugenda bahererekanya impapuro bigaragara ko bari kwita ku bintu bijyanye n'ubuzima, bari kugenda babwira abantu ibintu bijyanye n'ubuzima, abantu nabo bakabatega amatwi bakabumva noneho kugira ngo nabo baze kugira icyo bakuramo muri izi nyandiko.

Aha ngaha rero murahabona UNICEF for every child, UNICEF rero akaba ari umuryango ushinzwe kwita ku bana ku bintu bijyanye n'ubuzima bw'abana, aho ugenda wita ku mirire yabo, ku buryo babayeho, imyitwarire yabo ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'ubuzima bw'abana.

Abantu bari aha ngaha, murabona ko higanjemo abana ikindi kandi murabona ko ari ahantu hari umugezi, batunze amajerekani yabo bose bari kuvoma, bategereje kuvoma ngo babone amazi yo gukoresha mu bikorwa bitandukanye harimo isuku, guteka, gufura n'ibindi bintu byinshi bikoreshwa amazi.

Aha ngaha murahabona umwana uri kumwe na nyina ariko bigaragara ko uyu mumama ari kwigisha umwanya kuba yakoza amenyo ye, akayoza neza ndetse akoresheje uburoso na korogate kugira ngo amenyo ye atazabasha kuba yakwangirika.

Abantu benshi mubona aha ngaha, murabona ko bicaye neza, bicaye basa n'abari gukurikirana inyigisho bari guhabwa murabona ko bose rero bahanze amaso imbere, bigaragara ko umuntu uri kubabwira ahagaze imbere yabo, cyangwa se akaba ahagaze imbere aho twita kuri siteji, bose aho bamureba bamukurikiranye.

Aha murabibona neza kari kwa muganga mu bitanda abarwayi bararamo, murabona ko harimo abantu baba bakunda kwita ngo abapuranto barimo kugenda bakora isuku muwe aho abarwayi baryamye bagenda bahakubura bahakoropa ndetse bahagera heza bahakora amasuku meza.

Aha ngaha rero murahabona ko ari ahantu heza cyane ariko hakikijwe n'amazu menshi, amazu y'ubwoko butandukanye ikindi kandi murahabona urujya n'uruza rw'abantu, aha ngaha rero bigaragara ko ari ku bitaro ahantu hakorerwa ibikorwa bijyanye no kuvura abantu, nkuko mubibona aya mazu ukuntu agiye yubatse biragaragaza ko ari kwa muganga.

Aha ngaha rero murahabona ibyuma bitandukanye kandi ibyuma byiza bigaragara ko ibi byuma bikoreshwa kwa muganga ko baba bari gusuzuma abantu indwara ndetse no kubavura indwara barwaye bakifashisha ibi byuma kugira ngo ibintu bize kuborohera.

Aha rero murabona nabwo ko ari kwa muganga, akaba ari umurwayi bisa naho afite indwara y'imvune, akaba arimo kwa muganga, muganga ari kumwitaho, agenda amugorora, abareba neza uburwayi afite, kugira ngo abone uko amuvura.

Ahangaha rero murahabona ibintu bitandukanye, ariko ibyinshi biragaragara ko ari ibikoresha ikoranabuhanga, murabonaho komputa, terefone ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko ibyinshi byose bigaragara ko bikoreshwa muri siporo, mu gufasha abantu barimo gukora siporo.

Aha ngaha murahabona umukobwa, ariko ikigaragara ni uko uyu mukobwa ari gukora imyitozo ijyanye na siporo, urabona ka ari kugenda akora ibintu utuntu dutandukanye, ariko harimo kugorora amaboko bigaragara ko ari umusiporutifu.

Aha rero turahabona umugore bigaragara ko ari muri siporo, ubonye uko yambaye bigaragara ko ari kwakundi umuntu yiyambarira utu ekuteri akagenda akora agasiporo yiyumvira uturirimbo, urabona kandi rero ari kunywa amazi kugira ngo akomezekore siporo nimbaraga.

Aha murahabona ibikoresho, ariko murabona igitunguru, mukabonaho n'indimu. Ibi ngibi rero bikaba byifashishwa mu bintu bijyanye no gukora imiti, ishobora kuvura ibintu bitandukanye mu mubiri w'umuntu.

Aha murahabona akantu kameze nk'agasorori ariko murabona ko ari akantu kabumbye mu ibumba, aka kantu bakaba bagakoresha barimo gusekura ibi bibabi kugira ngo baza kubiyungurura bivemo umuti wa kinyarwanda. Umuti wavura umuntu agakira indwara.

Murabona hano hari amacupa, amacupa y'ubwoko butandukanye, ariko ikigaragara ni uko aya macupa arimo imiti, imiti yifashishwa kuvura abarwayi, ndetse iyi miti ikaba ari ya yindi ya kinyarwanda, bakunda kuvuza abantu, bitewe n'indwara barwaye.

Aha ngaha murahabona umugabo, ariko uyu mugabo murabona ko arimo gukora ibintu bitandukanye ndetse n'iruhande rwe hakaba hari ibindi bintu byinshi, bigaragara ko ari kugenda avangavanga ibintu by'imiti, kugira ngo abone umuti wo kuvura.

Aha hari icyatsi igiti kiriho amababi ariko iki giti ku bantu bakunda gukora imiti ya kinyarwanda baracyifashisha cyane kugira ngo bakore imiti yo kuvura abarwayi imiti igiye itandukanye iva muri ibi byatsi ndetse ikaba yavura n'indwara nyinshi zitandukanye.

Aha ngaha murahabona igiti, igiti gifite amababi meza cyane, ariko aya mababi, cyangwa se iki giti kikaba gikunda gukoreshwa mu kuvura indwara, bakoresheje ibintu bijyanye n'imiti ya kinyarwanda.